Agasahani gateretseho amoko y'imbuto agiye atandukanye, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane zikaba ziri mu mabara agiye atandukanye umutuku n'icyatsi, ironji n'icyatsi ndetse n'iroza n'icyatsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kwigishwa hifashishijwe uburyo bw'amashusho cyangwa se uburyo bw'ibishushanyo aho babereka ibishushanyo biri mu mabara atandukanye kugira ngo babashe kumenya amabara.

Igipupe kiri mu mabara y'umutuku kikaba gihagaze ahantu iruhande rwacyo hari amagi agera muri atatu, ku mugongo wacyo harambitseho akantu k'umuhondo bigaragara ko bakifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Mu mashuri y'inshuke ku bikuta by'icyumba k'ishuri hakunze kuba hari udushusho twiza cyane tw'inyamaswa zigiye dutandukanye ku buryo abanyeshuri nibabire zirabashimisha bityo bakishima neza cyane.

Mu mashuri y'inshuke haba hari amoko agiye atandukanye y'ibikoresho ndetse n'amabara atandukanye, bifashisha bari kwigisha abana kugira ngo abana babashe kujijuka, harimo amabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi ndetse'ubururu.

Udukoresho turi mu ishusho ya mpande enye, turi mu mabara agiye atandukanye y'umuhondo ndetse n'umutuku, tukaba turambitse ahantu ku meza, utu dukoresho tukaba twifashishwa n'abarimu, iyo bari kwigisha abana biga mu mashuri y'incuke.

Mu mashuri y'inshuke bakunze kwifashisha ibipupe bitandukanye kugira ngo babashe kwigisha abana ibintu byinshi bigiye bitandukanye maze na bo bazakure bazi ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Umwana w'inzobe wambaye agapira k'umweru uko bigaragara ni umuzungu afite igishushanyo imbere ye kiri mu bwoko bw'uruziga, gifite amabara menshi agiye atandukanye.

Agakapo kari mu mara y'umukara, umweru ndetse n'umutuku, kakaba gashushanyijeho amoko agiye atandukanye y'ibipupe, aka gakapu rero kakaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kwita ku burezi bwabo.

Igikuta gishushanyijeho Ikarita y'Igihugu cy'u Rwanda iri mu mabara agiye atandukanye ari yo icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'umweru, ibi bakaba babyifashisha bigisha abanyeshuri.

Mu mashuri y'inshuke haba hari udukoresho tugiye dutandukanye tw'udupupe, bifashisha abari kwigisha abana kugira ngo babashe kwiga bakurikiye neza kandi banezererwe babashe no kumenya amabarage agite atandukanye.

Ibishushanyo by'abantu bambaye imyambaro ya gisirikare bari kurasana, ibi bishushanyo rero bikaba byigishwa mu mashuri y'inshuke aho ko baba bari kwereka abana imirimo igiye itandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bateraniye hamwe ku mukeka ari benshi, bamwe barahagaze abandi baricaye, bafite udukinisho mu ntoki tw'amabara agiye atandukanye bifashisha kugira ngo babashe kwiga.

Igipangu gishushanyijeho amoko agiye atandukanye y'ibimera cyane cyane ikimera kizwi nk'igishyimbo. Bikaba bishushanyijwe ahantu hateye amabara y'icyatsi, byo bishushanyije mu ibara ry'icyatsi.

Udukoresho tugiye dutandukanye bifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe gufata neza, tuba tugiye turimo indobo, igitiyo ndetse n'inyenyeri n'ibindi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite ibikuta biteye irange ry'umweru hashushanyijeho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi ndetse n'ubwubatsi, babyifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myigirishirize y'amashuri aho biba biri mu mabarage atandukanye nk'umutuku n'umweru w'umuhondo ubururu iroze ndetse n'umukara.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa zikaba ari inyubako zo ku kigo k'ishuri cy'amashuri abanza, hakaba hari ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati asa ubururu, iyi nyubako rero ni ku kigo cy'ishuri, aho hari ubutantani bwiza, burimo ibendera ry'u Rwanda.

Mu mashuri abanza bakunze kwifashisha ibishushanyo bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kubiga na bo babashe gufata, aho bakoresha ibishushanyo bitabaho nk'iki gishushanyo kiri mu mabara y'umukara gifite umunwa nk'uw'inkoko, umutwe nk'u'inyamanza ndetse n'amatwi nk'ay'urukwavu.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza by'umwihariko igihe bari kwiga isomo ry'imibare haba harimo irati, harimo uducaruziga ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Mu mashuri y'inshuke ndetse no mu mashuri abanza hakunze kuba hari udukoresho twabugenewe tuba dufite amabara agiye atandukanye bifashisha bari kwigisha abana kugira ngo babashe kumenya kubara no kumenya amabara.

Udukoresho tugiye dutandukanye tw'uruziga tuba turiho imibare igiye itandukanye mu buryo bw'amayobera, utu batwifashisha bari kwigisha abanyeshuri ba pirimeri ibijyanye n'imibare kugira ngo bamenye gukuba ndetse no kugabanya.

Ishusho igiye yanditseho inyajwi zigiye zitandukanye ndetse ifite n'amabara menshi agiye atandukanye, ikaba ari igikoresho gikunze kwifashishwa bari kwigisha abana bakiri batoya kugira ngo babashe kujijuka.

Ku kigo cy'amashuri haba hari ibibuga bigiye bitandukanye bakoreraho imyitozo ndetse n'imikino igiye itandukanye, iki kibuga rero n'ikibuga cy'umukino w'amaboko uzwi nka Vore.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe harimo n'umupolisi bakaba bagiye gutaha ikigo cy'amashuri gishyashya aho hari umugabo ufite umukasi ari gukata umugozi bari bateze aho ngaho bagiye gutaha icyo kigo.

Mu mashuri abanza haba harimo udukoresho twinshi tugiye dutandukanye bifashisha bari kwigisha abana bakiri batoya, tuba tugiye dufite amabara menshi ariyo ubururu, umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi.

Ahantu hateraniye amakaramu menshi y'ibiti, aho aya makaramu ari ingirakamaro cyane aho yifashishwa mu banyeshuri biga mu mashuri abanza nbari gushushanya utuntu tugiye dutandukanye, hakaba hari ndetse n'ibindi bintu.

Mu mashuri abanza abanyeshuri bari kwiga imibare bakenera ibikoresho runaka byihariye kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo neza, hari amakaramu y'ibiti ndetse n'uducaruziga n'ibindi.

Udukombe turimo amoko agiye atandukanye y'amakaramu y'ibiti ndetse n'amabara agiye atandukanye, ibi rero akaba ari ibikoresho bifashisha, bari kwigisha abana biga mu mashuri y'incuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba yubakishije amatafari ahiye, biragaragara ko hano ari mu ishuri ry'ikigo cy'amashuri abanza aho harimo akabati karimo ibitabo bifashisha bari kwiga.

Umwana ushushanyije ahantu w'igipupe hakaba handitseho amagambo agiye atandukanye, ahantu hari amabarage atandukanye y'umuhondo, icyatsi ndetse n'undi muhondo, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Agakapu kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, kakaba gashushanyijeho igipupe gifite amaso, umunwa ndetse n'utuntu tw'umutu ku matama, bigaragara ko ari ako abana batwaramo amakaye bagiye ku ishuri.

Ni ku ishuri mu kigo cy'amashuri, aho hari amashuri menshi cyane afite imiryango iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'amabati y'ubururu Hakaba hari ubusitani bwiza cyane burimo amoko agiye atandukanye y'umucaca.

Abantu benshi bahuriye hamwe ku kigo cy'amashuri, harimo abarimu, ababyeyi ndetse n'abana, bakaba bahagaze abandi bicaye, aho bari kugenda baganira ku kintu runaka.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha kugira ngo babashe kwiga neza amasomo yabo y'imibare, hari amakaramu y'ibiti ndetse n'amarati na za kompa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu burezi bw'ibanze aho biba bifite amabara menshi agiye atandukanye maze abanyeshuri bakabyifashisha igihe cyose bari kwiga kugira ngo babashe kumenya ubwenge.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bambaye amajipo ari mu mabara ajya gusa umukara ndetse n'amashati y'imyeru na karuvati, amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bambaye imyambaro myiza cyane bifashisha bari kuririmba izwi nk'imyambaro ya korali, ari amakanzu meza ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye, bateraniye hamwe aho bari mu nama, imbere yabo hari umugabo wambaye akajire k'umukara, aho ari kugenda abigisha uburyo ki bashobora gukoresha ikoranabuhanga.

Abantu benshi bateraniye hamwe bigaragara ko ari abanyeshuri kuko bambaye impuzankano bakaba bagiye bicaye bambaye impuzankano z'ishuri, imbere yabo hari umugabo uhagaze ufashe indangururamajwi ari kubagezaho ikiganiro.

Abarimu benshi bagiye batandukanye bateraniye mu cyumba cyabo, aho bigaragara ko bari mu nama kuko bicaye bakurikiye barebye umuntu uri imbere uri kubagezaho ijambo.

Abantu benshi cyane batandukanye bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye biga ibijyanye n'imiriro y'amashanyarazi, aho bambaye ibisarubeti bari kugenda bakanika ku byapa biri gusa umuhondo..

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bahagaze bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'umweru ndetse na kake, bahagaze imbere y'icyapa kiri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Mu mashuri yisumbuye hakunze kuba hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, bifashishwa bari kwigisha abana bitewe n'ibyo biga, aha rero n'abantu biga ibijyanye n'imiriro y'amashanyarazi, aho ibi babyifashisha babigisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba iteye irangi ry'umweru ku bikuta ndetse ikaba ifite inzugi zisize irangi ry'ubururu.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bambaye impundu z'impuzankano, bahagaze bari kwifotoza, harimo bamwe bahagaze abandi basutsmye ndetse bari kumwe na mwarimu wabo wambaye ishati y'umweru.

Abanyeshuri bateraniye hamwe bari ku ishuri bambaye imyambaro igiye itandukanye iri mu mabara y'umweru, hakaba hari umwarimu ufite igitabo n'ikaramu mu ntoki aho ari kugenda abakosora abereka uko bikorwa.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bateraniye ahantu hamwe, harimo abambaye, amashati y'imyeru n'imipira y'icyatsi, bakaba bari mu nama, aho imbere yabo hari umuyobozi uri kuyibakoresha nubwo tagaragara.

Abanyeshuri bambaye amashati y'imyeru ndetse bakaba bari gufata ibihembo bahawe harimo igihembo cy'ishimwe ndetse n'igikombe, biragaragara ko babashije kwiga neza bagatsinda none bakaba bari guhembwa.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho zubakishije amatafari ahiye. Iki ni kigo k'ishuri aho gifite ubusitani bwiza cyane burimo Ibendera ry'u Rwanda ndetse n'umuhanda w'ibitaka.

Abanyeshuri benshi cyane bari murongo, bambaye impuzu mpuzazankano ziri mu mabara ya burusiyeri ndetse n'umukara, hari n'abasegondari bambaye kaki ndetse n'umweru bigaragara ko ari ku kigo cy'amashuri.

Abanyeshuri ni benshi cyane bambaye impuzu mpuzakano zo mu mabara atandukanye, bakaba bahagaze bari kwifotoza, bari mu kigo cyabo cy'amashuri aho hateyemo ubusitani bwiza cyane burimo amoko atandukanye y'ibimera.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho harimo abagabo b'abatekenisiye bambaye utujiri turi mu mabara agiye atandukanye bigaragara ko bari kwigisha abanyeshuri ba segondere uburyo ki biga ibijyanye n'amashanyarazi.

Abantu batandukanye bateraniye hamwe mu cyumba bakaba bari gukora umwuga w'ubudozi harimo umukobwa umwe wambaye impuzankano ndetse n'agakomo ku kuboko akaba afite imashini imbere ye.

Mu rwego rwo kongera ireme ry'uburezi mu Rwanda haje kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga aho abanyeshuri babazanira mudasobwa, hanyuma bakajya biga uko zikoreshwa kugira ngo bazabashe kujyana n'ibigezweho.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye bambaye impundu mpuzankano bakaba bari ku meza bari kurya, ni byiza cyane ko abanyeshuri bafatira amafunguro ku mashuri kuko bituma imyigire yabo igenda neza.

Urupangu rwiza cyane rwubatse mu buryo bugezweho rufite igipangu giteye amarangi y'icyatsi ndetse cyanditseho amagambo y'umweru kerekana ko ari ku kigo kigisha amashuri n'imyuga cya Cyongo.

Inyubako y'ishuri aho yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa ikaba isakaje amabati atagaragara neza ariko imbere yayo hakaba hari kugendamo umwarimu, ikirere kirasa ubururu n'umweru.

Umugabo wambaye ishati ijya gusa umukara ndetse akaba ari kumwe n'abanyeshuri bagera kuri babiri, bambaye impuzankano z'ishuri amashati y'imweru n'amapantaro y'amakaki ndetse na karuvati bakaba bari kubwira ijambo abandi bantu bari aho ngaho.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye bicaye bari mu ishuri aho bambaye udupira turi mu mabara y'ubururu ndetse n'amajipo n'amapantaro biri mu mabara y'umukara, buri wese afite mudasobwa imbere y'iwe bigaragara ko bari kwiga ikoranabuhanga.

Abantu biga ibijyanye n'imyuga bakunze gukora udukoresho twinshi tw'ubukorikori cyane cyane tuba dukozwe nko mu ibumba, utu dukoresho rero aba ari ingenzi cyane kuko abantu baradukunda.

Akarago karambitseho amoko agiye atandukanye y'ibikoresho bikozwe mugeni, ibi ngibi rero bikunze gukorwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'abiga imyuga n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ifite ibikuta biteye irange ry'umweru, ikaba imanitsweho ibikoresho by'ubukorikori bigaragaza ko biba byarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Abanyeshuri batandukanye bari ahantu mu ishuri, bafite amakayi imbere yabo ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bari kugenda basoma kugira ngo basubiremo amasomo baba bize maze babashe gutsinda igihe mwarimu arazana ikizami.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ifite ibirahuri byiza bibonerana ndetse ibayanditseho na nimero z'icyumba runaka ugiye kwinjiramo, akaba ari inyubako za kaminuza.

Mu mashuri yiga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyigiro, bigamo ibintu byinshi cyane, harimo no gufata ibintu byaboze bakaba babibyaza umusaruro, bikavamo ibikoresho runaka byagira akamaro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho harimo ibikoresho byinshi cyane by'ubugeni bikunze gukorwa n'abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro bashyira mu bikorwa ibyo bize.

Abantu biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro cyane cyane muri kaminuza ndetse no muri segonderi, bakunze gukora ibikoresho by'ubugeni ku buryo ubireba ukabona rwose bikoranye ubuhanga.

Akabati gapanzemo ibikoresho by'ubukorikori bya gakondo ibigiye bikoze mu ibumba cyangwa hakoreshejwe ubuhanga aho ibi ngibi bikorwa n'abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro.

Udutebe twinshi tugiye dutandukanye, dukunze tuba turi muri kaminuza zigiye zitandukanye. Utu dutebe rero turi mu mabara y'ubururu, tuba dufite aho umunyeshuri yicara ndetse n'aho yarambika mudasobwa cyangwa aho yandikira.

Abantu biga ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro ndetse n'abiga muri kaminuza y'ikoranabuhanga bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku buryo ibyo bintu biba ari iby'ubugeni bigira n'akamaro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iriho icyapa kigaragaza ko ari ahantu hakorerwa imishinga igiye itandukanye aho hari inzugi zisa icyatsi ziriho ibirahure bibonerana.

Mu rwego rwo kunoza uburezi bufite ireme hashyizweho amashuri agiye atandukanye ya kaminuza ndetse n'amashuri yigisha ibijyanye n'ubumenyingiro aho ugenda bakakwigisha uburyo ki wakora imyuga ukirwanaho.

Umuhanda ushashemo amapave wegeranye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga kizwi nk'imodoka itwara abantu barembye ari yo bita imbangukiragutabara, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru.

Udusekoro tugiye dutandukanye, dukunze kubazwa n'abantu bize ibijyanye n'ubukorikori cyangwa se abize imyuga. Tukaba turimo imihini yatwo, aho badusekuriramo ibintu bitandukanye. Isombe ndetse n'ibindi byinshi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere zisakaje amabati y'umutuku ndetse ziteye n'amarange y'umweru, zikaba zifite ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo nziza imbere yazo.

abantu bagera kuri babiri bahagaze imbere bari gukorana mu ntoki, bambaye imyambaro yambikwa abanyeshuri basoje kwiga kaminuza mu cyiciro runaka, bakaba bahagaze imbere y'abandi bantu bicaye mu mashitingi arimo ibendera ry'u Rwanda.

Mu mashuri yigisha ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda haba hari ibikoresho by'ubukorikori babasha gukora ku buryo iyo ubirebye ubona biryoheye ijisho hanyuma bikaba byagira akamaro cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa aho ifite inzugi nziza cyane ziri mu mabara y'icyatsi n'ibirahure bitabonerana, biragaragara ko ari inyubako ya kaminuza.